Abana bicaye ku mukeka bari kumwe n'umumama wikenyeye igitenge yambaye umupira w'ubururu hejuru, abana na bo bambaye inifomo ikigaragara ni abanyeshuri bashyize inkweto ku ruhande barimo barafata amafunguro.

Hari abana b'abanyeshuri bicaye bakoze uruziga bari mu ishuri, imbere hari ikibaho bambaye amashati y'umweru, bifashe neza urabona ko barimo baraganira ku masomo yabo.

Urugo mbonezamirire aho abana bateranira bagahabwa amasomo y'ibanze ndetse bakarirayo n'amafunguro atandukanye babifashijwemo n'umurezi wabo.

Abana bicaye mu byatsi barimo baraganirizwa, akenshi bakunze kuhungungukira ubumenyi butandukanye. Mwarimu rero ashobora gufata abana akabashyira ahantu heza, akabaganiriza ibyiza by'ibidukikije, akabaganiriza ku moko atandukanye y'ibimera, akabigisha uburyo ibyo bimera bishobora kubungabungwamo.

Kalendari iriho amatariki uhereye ku ya mbere ukageza ku ya mirongo itatu, ikaba inariho ifoto y'umukobwa uri guseka usa neza kandi w'inzobe.

Ni ku kigo cy'amashuri, uru ruhande rukaba ruriho tuwarete cyangwa se ubwiherero mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho abafite ibibazo bijyanye no kwihagarika bajya.

Ni ku kigo cy'amashuri gifite imbuga ngari abana bakiniramo mu gihe cy'akaruhuko, hakaba harimo abana bambaye impuzankano yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikigina.

Abanyeshuri benshi bize imibare, bakubwira ko bagiye bunguka ubumenyi buhagije kuko babasha kumenya ibintu bitandukanye ndetse hakubiyemo no kubara nk'amafaranga n'ibindi.

Mu bigo by'amashuri cyangwa se izindi nyubako zigiye zitandukanye za Leta, dukunze kuhabona ibishushanyo bigiye bitandukanye, ibi ngibi bituma abantu bashishikarira kumenya icyo bishatse gusobanura, ndetse bakumva bibafitiye n'akamaro, ni byiza rero gukomeza uyu muco kandi ni no gukangurira abaturage ibyiza byawo.

Amoko y'imifuniko itandukanye, harimo imifuniko y'inzoga, imifuniko y'uducupa tw'amazi, ibi akenshi ubisanga ku bigo by'amashuri, aho byifashishwa mu kwigisha abana kubara.

Ibigo bigiye bigaragara ku nce zigiye zitandukanye z'igihugu, bikunze kuba biri ahantu hitaruwe kandi hagaragarira buri wese, ntabwo twakirerengagiza agaciro kabyo cyangwa se umumaro bifitiye igihugu kuko akenshi bikomeje kujijura abantu kubafasha mu bintu bigiye bitandukanye no mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ibigo by'amashuri bikunze kuba birimo abana bagiye batandukanye kandi batoya, aha ngaha hajemo ikintu bita uburinganire mu myigishirize ndetse no mu mikorere ntabwo ari kuvuga ngo hazigisha umugabo gusa cyangwa umugore cyangwa se higishwe abahungu cyangwa abakobwa gusa, ibitsina byombi bigomba kwitabira uburezi.

Ubumenyi bwatambukijwe imbere ku kibaho, burya bukunze gusigara mu mutwe w'abanyeshuri. Nta bwo ibintu umuntu aba yahabonye apfa kubyibagirwa, nko kugenda agasoma ibitabo, agafata ibintu byinshi, kuko ibijya ku kibaho usanga byatoranyijwe, kandi biba bikenewe koko. Ni byo usanga n'umwana akunze gufata, byagera mu gihe cy'ibizamini ugasanga ni byo arimo arasubiza.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari, hakaba hari abana bari gukora isuku ndetse aba bana bakaba bambaye n'impuzankano iranga ikigo cyabo.

Mu gihe cyo kuruhuka abana baba bagomba guhabwa imipira, bakisanzura, bakidagadura ndetse n'abarezi ntibagende ngo bicare mu biro gusa, baba bagomba gukurikirana icyo gikorwa uburyo kiri kugenda ndetse abana bafite n'urugomo bagahanwa ariko ntibahutazwe.

Abana batoya b'incuke bakaba barimo barakina bakoze uruziga. Bari kumwe n'umurezi wabo urimo urabatoza ndetse aberekera n'uko bagomba gukina mu buryo bwiza.

Ni ku kigo cy'amashuri gifite amabati ashaje, cyubakishijwe amatafari ahiye, gisizeho n'irangi ry'umweru. Hanze y'iki kigo hakaba hari ikigega gifata amazi.

Abana batatu bahagaze mu muryango, bakunze kuganira cyane bishimye kuko ni cyo gikunze kubaranga nta mutima mubi bakunze kugira, usanga ibintu byose babikorana umurava kuko nta kindi kibazo baba bafite mu gihe baba babona noneho n'ubumenyi buhagije ndetse n'uburere.

Ishuri ririmo intebe nta bantu bicayeho, ku ruhande hari igishushanyo kimanutse cy'igihe kiriho ingombajwi n'inyajwi, hari ikibaho cy'umukara nta kintu cyanditseho, hari itara ku ruhande ririmo riraka, urabona ko rwose n'ishuri rifite isuku.

Ni ku kigo cy'amashuri cy'abana b'inshuke ndetse n'aba primaire, urabona ko gisa neza nubwo kitaruzura, gisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Ibigo by'amashuri byakomeje kongera inyubako zabyo. Aha ngaha rero abana bakomeza kwiga bisanzuye ndetse n'ubucucike bwagiye bugabanywa ku kigero kigaragara cyane. Ukoresheje ijanisha mirongo inane na gatanu bose usanga biga neza kandi batekanye.

Mu gikoni harimo amasafuriya manini bakunze kwita muvero, arapfundikiye, hari n'imwe ku ruhande, ni amasafuriya agera kuri atatu, kandi harasa nk'aho harimo umwijima cyane.

Ni ku kigo cy'amashuri y'incuke cyangwa se abanza, hakaba hari abanyeshuri mu mbuga y'icyo kigo barimo barakina bidagadura bishimye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri hakaba harimo amakaramu, amakayi ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba ari ingenzi ku munyeshuri.

Ibigo by'amashuri bigiye birimo abana bagiye batandukanya abahungu n'abakobwa, ahangaha rero uburezi bugomba gushyirwamo imbaraga cyane ndetse hakiririndwa n'ubusumbane nta kuvangura, ntakuvuga ngo uyu ni umuhungu cyangwa ni umukobwa ni we ugomba gushyigikirwa cyane tugomba gushyigikira abana kuko dutozwa kubafata bose nk'abacu.

Ibigo by'amashuri bikunze kuba biri ahantu hitaruye kandi hafite isuku, akenshi rero iyo amashuri ashaje abantu bagomba kuhagirira isuku, bakayubaka bundi bushya aho yasenyutse bakayasana ndetse bakongera n'ibikorwa remezo bihakorerwa, cyane cyane nk'imihanda.

Ni ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri baho bakaba bateraniye kuri arisamburema kugira ngo bakurikirane ibyo umuyobozi w'ikigo ari kubagezaho bityo bibungure byinshi.

Ibigo by'amashuri bikunze kwicaza abanyeshuri ahantu hamwe bikabagira inama cyangwa se bikabigisha ku kibazo runaka, ntabwo ari ngombwa ko bayikorera mu ishuri kuko hari igihe ikigo cyose kiba gikeneye guhura maze bakagira ibyo baganiraho, ni byiza rero gukomeza uyu muco kuko wongera ireme ry'uburezi mu gihugu.

Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uburezi bufite ireme mu Rwanda, abana bagiye bongererwa ibyumba by'amashuri, twakomeje rero kubona ko Leta yashyizemo imbaraga nyinshi kandi z'ikirenga, ibi ngibi bizafasha mu guteza imbere igihugu ndetse n'umugabane n'Isi muri rusange.

Inama iyo zabaye, zikunze gukorerwa mu bigo by'amashuri, cyangwase ahandi hantu habugenewe, abantu rero bagomba kwitabira iyo nama, kuko ibivugirwamo ari ingirakamaro, aha ngaha ni hahandi batumira nk'umuyobozi w'urwego runaka rw'umutekano, rukagenda rukigisha n'abandi.

ishuri kugira ngo rise neza kandi rigaragare ni uko riba rifitemo ibikoresho byose bigiye bitandukanye harimo n'intebe, iyo zikiri nshyashya abana batarazangiza, uba ubona rwose zifite ireme kandi n'uburezi bukomeza kugenda neza, ntabwo ari byiza rero kwangiza ibikoresho by'ishuri, harimo n'izo ntebe cyangwa se andi meza.

Ikigo cy'amashuri hateraniye abana benshi cyane, bambaye umwambaro w'ishuri urimo ibara ry'ubururu ishati. Harimo n'abandi bari ku ruhande bambaye amashati y'umweru n'imyenda ya kaki hasi.

Umuhanda wubakishijwe amabuye, hakaba hari kunyuramo imodoka bita taxi itwara abantu mu buryo bwa rusange, ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Ibikuta birebire, bisize ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'umweru, hanze yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri bari mu ishuri, imbere yabo hari umwarimu uhagaze imbere y'ikibaho cy'umukara, arimo arabigisha, urabona ko bateze amatwi kugira ngo badacikwa.

Ni muri salle nini, hateraniyemo abanyeshuri batandukanye, harimo urubyiruko rw'igitsina gore, n'igitsina gabo, bambaye n'impuzankano iranga ikigo cyabo, urabona ko basa neza.

Ikigo cy'amashuri, hari akana gatoya gahagaze imbere, nta bandi bantu bahari, bafite imbuga y'ibitaka, nta kindi kintu kiri kuhagaragara uretse umusozi ukikije iryo shuri, ndetse rikaba rifite n'amabati y'ubururu, amwe akomeye cyane.

Siporo rusange ikunze kwitabirwa cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Aha ngaha navuga ko zikunze kudufasha mu bintu bigiye bitandukanye, nko kuruhura umubiri ndetse no kwirinda ibibazo bishobora guturuka ku mubyibuho ukabije. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga kandi bukubahirizwa na buri munyarwanda wese.

Inyubako isa nk'igeretse, ifite urugi rusize irangi ry'icyatsi, na yo igiye isize amabara atandukanye, ku ruhande rw'iburyo, hasize irangi risa nk'ubururu bwijimye, imbere yayo hari igiti kirekire gisa nk'icyumye.

Hari ikigo cy'amashuri harimo abana, hari umubyeyi uhagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki, abanyeshuri barakurikiye cyane, hari ibiti biteye imbere y'amashuri ndetse amashuri yabo agiye yanditseho ibintu bigiye bitandukanye ku ruhande byanditse mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bahuriye muri salle, bakaba bari kureba kunsakaza mashusho, urabona ko bashishikaye kandi barabyishimiye, iki ni igikorwa cy'ikoranabuhanga cyabegerejwe.

Abanyeshuri bicaye hamwe bari mu ishuri bakunze kunguka ubumenyi butandukanye. N'iyo mwarimu yaba atarimo, hari ibitekerezo ubwabo baba bifitemo nk'ubuvumbuzi, ubushakashatsi. Ibyo ngibyo rero byongera ireme ry'uburezi, ndetse n'uburere bukiyongera.

Abanyeshuri bahuriye muri sale nini, bakaba bari kuganirizwa n'umupolisi ubahagaze imbere, arimo arabagira inama y'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo barangwe n'ikinyabupfura.

Ishuri rikiri rishya ku kibaho hakaba handitseho amasomo bamaze kwiga, urabona ko hakeye cyane nubwo hataraterwa amarange, ikibaho kiri mu ibara ry'umukara.

uUurezi bufite ireme bukunze kugaragazwa n'ikoranabuhanga. Ahangaha abana bose bagenda bafata za mu mudasobwa bakagenda biyungura ubumenyi. Ibingibi bigaragaza ireme ry'uburezi kandi rimaze gutera imbere mu gihugu ndetse n'iterambere rikiyongera.

Ibyumba by'amashuri bigiye biri ahantu hagiye hatandukanye. Usanga buri Karere kose gafite amashuri runaka kandi akagenda azamurwa uko bwije n'uko bukeye. Ni byiza rero gutoza abato n'abakuru kugana uburezi ndetse bakahavoma n'ubumenyi bugiye butandukanye.

Ahantu hari ubusitani bwiza cyane butoshye, hakaba hari icyapa kivuga ngo:" Ikaze ku kigo cyacu." Mu bigaragara aha hafi hari ikigo cy'amashuri.

Ikipe ifite abakinnyi bambaye umweru n'umukara, hari ufite nimero gatanu mu mugongo, hari uwambaye nimero gatatu mu mugongo wambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'ubururu, barimo barakina umukino w'amaboko bita Volley, ku ruhande hari abafana benshi cyane babakikije, bari kwishimira umukino.

Ikibuga bakiniraho umukino w'amaboko. Burya rero mu buzima siporo ni ingenzi kandi igenda igabanya ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'umubyibuho ukabije, ugabanya ibintu by'amasiteresi, ugenda wongera ingufu mu mubiri ku buryo iyo umuntu amaze kuyikora usanga rwose akomeye kandi bikamurinda n'indwara zitandukanye nka za rubagimpande.

Abarezi baba bagomba kwitoza kwandika ku kibahu ndetse bakabitoza n'abo barera. Ibi ngibi rero bituma ireme ry'uburezi rikomera cyane, kandi rigatanga umusaruro. N'igihugu kikagenda cyunguka abantu bajijutse, kandi b'inzobere ndetse n'intiti muri rusange.

Abarezi ni bamwe mu bafatiye runini igihugu, kuko aribo batanga uburezi buboneye ku banyeshuri, bityo bakazavamo abayobozi n'abaganga b'ejo hazaza.

Ibigo by'amashuri makuru na za kaminuza bikunze kugira ibibuga by'imikino y'amaboko, aha ngaha rero abanyeshuri bakunze kugenda bakidagadura nyuma yo gusoza amasomo yabo, ibi bituma bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bikongera n'ubucuti n'umubano wabo hagati.

Ni ku kigo cy'amashuri ahahuriye imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, umweru, ubururu, ndetse n'umukara.

Uburezi ni inkingi ya mwamba mu iterambere, ahantu bukozwe neza rero bikunze gutanga umusaruro, abenegihugu bagatera imbere, abaturanyi baturanye bagatera imbere. Ibintu byinshi usanga bifite umuro kuko abantu baba barize, kandi basobanukiwe n'amahame n'uburere biboneye.

Inzu nziza cyane ikaba irimo amatara arikumurika. Ikaba irimo ibitabo urabona ko ari mu isomero aho abanyeshuri baza gukorera ubushakashatsi.

Ikigo cy'amashuri imbere mu cyumba hakaba harimo abanyeshuri, imbere yabo hateretse na mudasobwa, hirya yabo hakaba hari ibitabo byinshi, akaba ari mu isomero.

Abayobozi batandukanye baba bagomba kwicara hamwe bakaganira ndetse bakita no kubayoborwa babo, ntabwo rero ibi ngibi bikunze gukorwa n'abaturage kuko abayobozi ari bo babifite mu nshingano, ni byiza rero kwicara tukaganira, tukungurana ibitekerezo ndetse ibyo twavuze tukagerageza no kubishyira mu ngiro.

Salle nini cyane irimo mudasobwa, ikaba irimo intebe zo kwicaraho, ikaba irimo n'amatara ari kwaka ndetse n'amarido ku madirishya, urabona ko ifite isuku, akaba ari aho abanyeshuri bakorera ubushakashatsi.

Inyubako ya kera cyane yubatswe mu gihe cy'abakoloni, ikaba iriho icyapa kiranga kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ishami rya Huye, hirya yiyi nyubako hakaba hari amashyamba.

Ibyumba by'inama bigomba kuba biri ahantu hatunganye ndetse n'iby'amashuri. Umwarimu urimo uratambutsa ubumenyi, ntagomba kurambirwa cyangwa se ngo agaragaze ubunebwe, imbere y'abo ashinzwe. Ibi ngibi bituma ireme ry'uburezi rizamuka, ndetse n'Igihugu kigakomeza kugira abantu b'abashakashatsi kandi basobanutse ndetse b'abanyamurava.

Abantu babiri bari kugenda, bari mu kigo runaka kinini, hari indabo ziri ku ruhande, imbere yaho ubona ko hari n'igiti kigenda gitanga akantu k'akayaga abantu bagenda bahumeka ndetse hari n'undi muntu uri imbere wabo, wambaye umupira w'umuhondo, ubona ko hari ibyo arimo arakora bitandukanye.

Hari abantu bicaye batandukanye, bicaye imbere ya za mudasobwa, umwe yambaye ishati y'ubururu, undi yambaye umutuku, hari ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari igitabo.

Icyumba cyiza cyane gisa neza gisize irange rijya gusa ubururu bwererutse, hakaba harimo intebe ndetse n'urugi rusize ibara risa n'ivu.

Umugabo ufite igitabo urimo arasoma, yicaye imbere ya mudasobwa. Ameze neza, ari ahantu hatuje, nta bindi bibazo afite, yambaye ishati imeze neza rwose ubona ko ari umuntu wize kandi uzi icyo akora, anakunze cyane.

Ni muri sale nini yahuriwemo n'abantu batandukanye, akaba ari inama yahuje abarezi n'ababyeyi kugira ngo barebere hamwe uko bashyiraho ingamba zatuma abana babo batsinda neza.

Mu rwego rwo gusaranganya ubutaka ndetse no kugaragaza ko igihugu kigenda gitera imbere harimo n'inyubako cyane cyane izina zisa nk'izigeretse. Ahangaha rero zagiye zishyirwamo imbaraga cyane na Leta kuko nk'abantu bari batuye mu manegeka bagiye bimurwa kandi iki gikorwa cyakozwe neza kinyamwuga.

Icyumba cyiza kandi kigari, kikaba kirimo amatara ari kwaka ndetse kikaba gisize n'amabara agiye atandukanye, akaba ari mu kigo cy'amashuri ya kaminuza ndetse harimo n'intebe zo kwicaraho.

Ibirango by'amashuri agiye atandukanye bikunze kuba bishyirwa ahantu hagaragara. Aha ngaha navuga nk'amashuri y'imyuga cyangwa se na kaminuza zisanzwe. Kandi ibi bigi bituma ba mukerarugendo bitabira kureba. Hari aho usanga hashushanyijeho nk'imbogo, hashushanyijeho ingagi cyangwa se ugasanga hariho n'inzovu.

Hari icyumba giteretsemo intebe zigiye zitandukanye, hari n'ameza ateretseho rero telefoni, hari na mudasobwa, irajimije, ntamuntu uri muri iyo nyubako, uretse ibikoresho biri kugaragaramo gusa.

Hari abakobwa babiri barimo barasohoka mu kigo runaka, hari idarapo ry'u Rwanda, hari n'igipangu cy'umweru kirakinguye, hari inyubako ziri inyuma ziri kugaragara, ku buryo ubona ko ari nk'inyubako ya leta.

Ishyamba risa neza cyane, igikoresho gifungura amaturunovize, inyubako nziza ziri ahantu hari ubusitani, urabona ko byose bikeye.

Ni muri sale nini hakaba harimo amatara ari kwaka, harimo intebe abantu bagana muri iyi sale bicaraho ikaba isa neza cyane kandi ifite isuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ari yo kaminuza urabona ko bahanze amaso imbere, bakurikiye ibyo umwarimu ari kubigisha kugira ngo bunguke ubumenyi.

Amashuri makuru na za kaminuza nayo akunze kugira ibirango. Aha ngaha twavuga nk'iy'u Rwanda ndetse na zimwe zigiye zishingiye ku madini. Ni byiza rero kuzigana ndetse no kwitabira gukomeza kuminuza kuko nabyo biradufasha cyane, tukabona n'abashakashatsi b'ejo hazaza.

Icyumba gisize ibara rijya gusa ubururu bwerurutse, harimo imeza iriho utubido ndetse n'ibikombe ndetse na kettle, hakaba hari n'intebe zo kwicaraho.

Abafite burya ubumuga na bo ni abantu nk'abandi, aho usanga bitabira zimwe muri gahunda za Leta nk'inama, umuganda aho bishoboka, ndetse no gufasha abakene mu bintu bigiye bitandukanye. Na bo rero nta mpamvu yo guhabwa akato kuko na bo ni abantu.

Ibyumba by'amashuri dukunze kubonamo isomero ndetse muri iryo somero hakaba harimo utubati, usanga ibitabo bigiye biri ku murongo, bitunganyije neza, ku buryo iyo ugikeneye ukibona ku buryo bukoroheye, utarinze gusiragira ahandi hantu hatandukanye.

Ni ku kigo cy'amashuri, aho hari imodoka iparitse mu mbuga ngari yubatswe n'amapave, hakaba hari n'ubusitani ndetse n'ibyuma bifata umuriro w'amashanyarazi.

Hari bimwe mu byumba by'amashuri bigenda bishyirwaho nomero cyangwa se ahantu barara. Ni byiza rero ko ibi bintu bikorwa mu rwego rwo kurinda abantu kuyoba cyangwa se kuba bagenda bakitiranya ibintu biri bukorerwe ahantu runaka. Tugomba rero kwitabira igikorwa nk'iki ngiki ndetse tukirinda no kubyangiza.

inyubako za Leta muri rusange zikunze kuba zikikijwe n'ibiti, aho ibi ngibi biza bigafata amazi ndetse n'abantu bahakorera bakabona umwuka mwiza wo guhumeka, ibi ngibi byagiye bikorerwaho ubushakashatsi, aho buri muntu wese asabwa gutera igiti ahantu atuye mu rwego rwo gushyigikira iyi gahunda ya Leta.

Ni ku kigo cy'amashuri kikaba cyubatswe n'urukuta rurerure ndetse kikaba gikikijwe n'ibiti birebire n'ubusitani busa neza cyane ndetse n'inzugi z'ibirahure n'amadirishya.

Inyubako yo mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga iby'imyuga, wayisanga hafi y'ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda ndetse no ku bitaro bya CHUB.

Kugira ahantu tubika ibikoresho, burya na byo ni ingenzi. Nk’utubati, iyo akabati ugafite, ukakagirira isuku, ugashyira ibintu ku murongo, impapuro zijye zitandukana n’ibitabo, usanga ari ibintu bimeze neza ku buryo nk’umuntu utagatunze, aba yifuza kugatunga iyo amaze kubona ibyiza byako.

Inyubako ndende yubatswe mu bwoko bwa etaje akaba ari ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bajya, bagahabwa uburere buboneye kandi bubateza imbere.

Uburezi ni kimwe mu bintu byiza cyane kandi bizamura ubumenyi bwa benshi. Aha ni kuri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye riherereye mu majyepfo.

Ahantu dukarabira hagomba kugirirwa isuku naho, tugomba kuba dufite amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku mwanda nk'inzoka ndetse n'impiswi, ibi ngibi rero bikunze kuba biri ahantu hahurira abantu benshi kandi bafite igikorwa runaka bahakora.

Ikigo cy'amashuri imbere hari ubusitani, akenshi rero abantu bakunze kuhicara bahafatira umwuka, baganira, ndetse bungurana n'ubumenyi bahabwa n'uburere bujye butandukanye ku bintu byinshi cyane, ibi rero byongera ireme .

Inzu nziza cyane ifite salle nini, ikaba isize amabara atandukanye harimo umuhondo, harimo n'umweru, ibirahure bikaba bisa neza na byo bikoreye isuku.